Inzu nziza yicayemo abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe ifite ibara rya oranje, amazi ateretse impande yabo, hari n'abafite mashini ku bibero byabo, ndetse harimo n'umwe wamanitse akaboko.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza y'umutuku, imbere hari insakazamajwi hateretse amazi ya sosiyete y'inyange bafite n'amakaye imbere yabo.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umutuku n'ameza ateretseho amazi ya sosiyete y'Inyange n'imfatamashusho inyuma yabo.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore harimo abirabura n'abazungu bicaye, inyuma yaho hari icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo y'ubururu.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, bafite amazi imbere yabo ya sosiyete y'Inyange, imbere yabo na none hari indangururamajwi.

Mu nzu nziza hicayemo abantu batandukanye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara, bafite amakaye imbere yabo n'amamashini, bafite n'amazi yo mu bwoko bw'Inyange.

Abantu harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro n'amazi yo kunywa ya sosiyete y'inyange.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, hari abahagaze n'abicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru, ariho ikayi n'amazi yo kunywa.

Mu nzu, harimo abantu benshi, igitsina gabo, n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara, n'ameza afite igitambaro cy'umweru n'umukara, imbere yabo hari mashini zicanye, n'amazi ya sosiyete ya Nil, hari n'umugabo uhagaze.

Abantu babiri b'igitsina gabo, harimo umuzungu n'umwirabura wambaye impuzankano ya gipolisi, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse amazi ya sosiyete y'Inyange na mashini iri kwaka.

Mu nzu hari abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza afite igitambaro cy'umutuku, imbere yabo hateretse ibitabo n'amazi ya sosiyete y'Inyange.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore bicaye, ameza y'umweru, imbere yabo hateretse amakayi n'amazi ya sosiyete y'Inyange imbere yabo.

Inzu nini kandi nziza yicayemo abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abazungu n'abirabura, imbere yabo hateretse insakazamajwi n'amazi yo mu bwoko bw'Inyange, bicaye ku ntebe z'umukara.

Abantu benshi bicaye harimo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, inyuma yabo hariho icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda kiriho agaseke, cyanditseho mu magambo manini ingengo y'imari n'imihigo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri gatanu bibiri na makumyabiri na gatandatu.

Abantu babiri harimo umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hateretse amazi ya sosiyete y'Inyange n'amakayi, hari n'indangururamajwi imbere.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bicaye, bafite imashini imbere yabo, imbere yabo hari icyapa kinini cy'ubururu, kiriho amadarapo abiri y'u Rwanda.

Abantu benshi b'igitsina gore, harimo umuzungu n'abirabura, bicaye ku ntebe z'umukara, ameza imbere yabo ateretseho amakayi n'amazi ya sosiyete y'Inyange, inyuma yabo hari umuntu w'igitsina gabo, uhagaze mu muryango.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abirabura n'abazungu, harimo abafite imashini na telefone, biteretse amazi ya sosiyete y'Inyange, imbere yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho RRA.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abicaye hasi mu byatsi, abandi bane barahagaze, harimo umwe witeze igitambaro afite n'inkoni, hirya yabo hari insakazamajwi.

Abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amapantaro y'umukara, amajire y'icyatsi cyerurutse ndetse hari n'abambaye amajire y'ubururu.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari inkingi zifite ibara ry'umuhondo n'ubururu, imbere yabo na none hari igiti n'ibyatsi.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere hari ameza y'umweru ateretseho amazi ya sosiyete y'Inyange n'idarapo ry'gihugu ririmo ubururu, umuhondo n'icyatsi, Inyuma yabo hari umuntu ufite ifata amashusho.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo, n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'imikara, hari abafite imashini imbere yabo, hari n'umugabo uhagaze ufite imfatamashusho imbere ye.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza afite igitambaro cy'umweru, imbere yabo hari amakayi n'amazi ya sosiyete y'Inyange, harimo abagabo babiri bambaye impuzankano ya gisirikare.

Mu nzu harimo abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza ya oranje, ateretseho mashini ziri kwaka n'amazi ya sosiyete y'Inyange n'indangururamajwi imbere yabo.

Mu nzu harimo abantu benshi b'igitsina gabo, harimo abirabura n'umuzungu bicaye ku ntebe z'umukara, bafite amakaye mu ntoki zabo, bafite n'amazi ya sosiyete y'Inyange.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye, hari undi uhagazeho ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye ikoti ry'umukara, hari n'intebe z'umukara n'akameza gateretseho amazi ya sociyete y'inyange.

Abantu benshi bicaye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bafite indangururamajwi imbere yabo, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu kirimo utuzeru tubiri tw'umuhondo n'ubururu.

Mu nzu harimo abantu batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza ariho igitambaro cy'umukara, hariho uducupa tw'amazi twa sosiyete y'Inyange n'ibirahure by'amazi.

Abantu batatu baricaye, imbere yabo hateretse ameza ateretseho amazi, undi umwe arahagaze, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu kiriho ikirangantego cy'u Rwanda n'amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditseho inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'Akarere ka Gasabo.

Mu nzu harimo abantu benshi batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, hari n'undi uhagaze, ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu bane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, babiri barahagaze, umwe afite indangururamajwi bicaye ku ntebe z'umutuku, n'ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza ateretseho amakayi n'uducupa twa sosiyete y'Inyange, imbere yabo hari ibyapa bibiri binini biriho idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umutuku, harimo abafite terefone mu ntoki zabo, inyuma hari abandi bantu bahagaze.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara, bafite amamashini imbere yabo, bafite n'amazi ya sociyete y'Inyange imbere yabo.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe zizengurutse, bafite amazi ya sosiyete y'inyange imbere yabo ndetse hagati hari na televiziyo nini iri mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bari mu nama, harimo abicaye n'abahagaze, uhagaze afite indangururamajwi hari n'icyapa imbere cyanditseho yuwesesayidi n'amagambo manini ya dirimuzi, bafite uducupa twamazi imbere yabo.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye, imbere yabo hari ameza y'umweru, hari umwe uhagaze wambaye umupira w'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki. Imbere yabo hari ibara ry'ubururu.

Umunara muremure w'itumanaho ufite ibara ry'umweru n'umutuku, imbere yawo hari inzu n'akabati k'umweru n'akandi k'umuhondo, inyuma yawo hari imisozi myiza iriho ibiti.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo REB yandikishijwe mu ibara ry'ubururu, hasi y'ayo magambo hari uturongo dutatu, turi mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi; hasi y'utwo turongo hari amagambo manini yanditse mu ibara ry'umukara.

Urupapuro runini rw'ubururu ruriho amagambo menshi yandikishije ibara ry'umweru n'andi menshi yandikishije ibara ry'umuhondo, hasi hari utuzeru tune turiho amafaranga atandukanye, hasi mu nguni hari ikirango cyanditseho RRA.

Urupapuro rw'umweru ruri ikiziga cy'icyatsi, kirimo isaka n'agaseke cyanditseho repubulika y u Rwanda, minisitiri y'abakozi ba leta n'umurimo, mu ibara ry'ubururu n'amasaha y'akazi mashya mu ibara ry'ubururu, n'amagambo menshi yandikishije ibara ry'umukara.

umunara w'itumanaho imbere yawo hari inzu ifite ibara ry'umuhondo n'amabati y'ubururu wubakishije giriyaje, impande yaho hari ibiti n'abantu b'igitsina gabo.

Urupapuro runini rw'ubururu rwanditseho irembo mu ibara ry'umweru, na serivisi nshya ku rubuga rw'irembo govu mu ibara ry'umweru. Hari n'andi magambo menshi yanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi b'igitsina gabo, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara n'ameza, bambaye imipira y'umukara, imbere y'abo bafite imashini zicanye, biragaragara ko bari mu itsinda.

Urupapuro runini rw'umweru, ruriho ibara ry'ubururu, n'icyatsi, rwanditseho gushimira abasora ku nshuro ya makumyabiri na rimwe, ukwezi ko gushimira abasora, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, saba fagitire ya EBM wubake u Rwanda.

Inzu nini cyane igeretse inshuro nyinshi isize ibara ry'umweru n'icyatsi, yubakishije igipangu cy'amatafari ahiye, hirya yayo hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Urupapuro runini rw'umweru, ruriho umuntu w'igitsina gabo, wambaye umupira w'ubururu, ufite telefone y'ubururu mu ntoki, iri kwaka ibara ry'umweru, yanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Urupapuro runini rw'umweru rwanditseho amagambo menshi, mu ibara ry'umukara, hariho n'icyapa kinini cy'umuhondo n'ubururu cyanditseho irembo, na werikamu mu ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho rura mu magambo y'ubururu, harimo n'ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo menshi mu mabara y'umweru n'akandi kadomo k'umutuku kanditsemo rimwe.

Urupapuro runini rw'umweru, rwanditseho irembo mu ibara ry'umweru, na serivisi nshya ku rubuga rw'irembo govu, mu ibara ry'umweru n'andi magambo menshi yanditse mu ibara ry'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo imodoka ziri kugenda, hirya hari icyapa kinini kiriho serivisi zitangirwa aho hantu, inyuma y'icyo cyapa hari inzu.

Umuntu ufite telefone mu kiganza cy'iburyo, imbere ye hateretse mashini iri kwaka, ikiganza cy'ibumoso gifashe kuri iyo mashini.

Imbonerahamwe y'ibyavuye mu bushakashatsi bwa aragasi bwa cumi na rimwe, iri mu ibara ry'umweru n'ubururu igizwe n'inkingi, ibipimo.

Mu nzu nini kandi nziza hicayemo abantu batandukanye, harimo igitsina gabo, n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'icyatsi cyerurutse basa nk'abari kuganira.

Mu muhanda w'igitaka, harimo imodoka, harimo n'amapoto akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hirya y'amapoto hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi, mu ibara ry'umweru.

Ibara ry'ubururu imbere yaryo hateretseho igitelefone kinini, imbere ya telefone hahagaze umuntu ufite terefone mu ntoki, ufite ikote inyuma mu ntoki ze, wambaye ishati n'ipantaro.

Inzu irimo abantu benshi imbere yabo bafite amakopiyuta hari undi muntu wunamiye hari n'abandi bakobwa babiri bahagaze bari kureba ibitabo.

Imodoka y'umukara imbere yayo hari amaduka atanga serivisi yo gufurira abakiliya, imbere y'amaduka hariho akameza k'umutuku, imbere yayo maduka hariho icyapa cyanditseho irembo.

Umuyoboro mbaraga w'itumanaho, ukwirakwiza itumanaho ahantu hatandukanye, impande yatwo hari utubati tw'ubururu n'akandi gasa ikigina, impande yawo hari amazu meza cyane n'ibiti bitandukanye.

Urupapuro runini rw'ubururu rwanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umuhondo n'umweru, harabura iminsi ibiri mu ibara ry'ubururu n'andi menshi.

Urupapuro runini rw'umweru rushushanyijeho ikiziga mu ibara ry'icyatsi, harimo agaseke n'isaka n'ibara ry'ubururu ryanditsemo umunsi mwiza w'umurimo, hashushanyijeho n'abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore, n'ibindi biganza byinshi bifite ibikoresho bitandukanye.

Urupapuro rw'umweru rushushanyijeho akazeru mu ibara ry'icyatsi, mo imbere harimo isaka n'agaseke, hirya hari uturongo tw'umukara, rwanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Inzu nini cyane isize irangi ry'umweru, ifite ibyapa byinshi bitandukanye, ifite amabara y'ubururu, umuhondo n'umutuku, hanze y'inzu hari kandagira ukarabe ifite indobo y'ubururu n'ijerekani y'ubururu n'intebe yo kwicaraho.

Ikirango cy'u Rwanda gifite ibara ry'icyatsi mo imbere harimo agaseke n'isaka, hasi hari sayinini iri mu ibara ry'ubururu.

Umunara muremure cyane w'itumanaho, ufite ibara ry'umweru n'umutuku, ukikijwe n'ibyuma bihagaze, hari n'icyapa cy'umutuku cyanditseho AIRTEL mu ibara ry'umweru.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ufite imashini imbere ye, iri kwaka ubururu bwerurutse n'ubururu bwijimye, afite na telefone imbere ye, ari kubikoresha biteretse ku meza y'igiti.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo manini RGB, mu ibara ry'ubururu, hasi yayo magambo hari ibara ry'icyatsi, nanone hasi hari amagambo menshi cyane yandikishijwe n'ibara ry'umukara.

Mu gipangu, harimo umuhanda wubakishije amabuye yo mu bwoko bw'amapave, ufite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, Ifite n'urugi runini rw'icyatsi, hirya yaho hari inzu nini ifite irangi ry'icyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka na moto; hirya ya kaburimbo hari inzu nziza y'ubucuruzi, harimo abantu ndetse n'ibicuruzwa.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imidari mu ijosi ryabo, imipira y'umutuku, amapantaro y'umukara n'ijambo ryanditse mu ibara ry'umweru ari ryo R, E, B.

Inzu ifite umuryango w'ikigina hariho icyapa cy'ubururu cyanditseho BK yacu yandikishijwe ibara ry'umweru n'ikindi cyapa cy'umweru kiriho ibara ry'iroza n'ubururu cyanditseho Irembo, hirya hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka.

Urupapuro runini rw'ubururu rushushanyijeho inzu, isiza amarange y'umweru n'amabati y'umukara, inyuma hari igiti, hari n'andi magambo menshi yandikishijwe ibara ry'umweru.

Abantu batatu b'igitsina gabo bambaye udupfukamunwa, harimo uwambaye umupira w'umweru n'abandi bambaye amashati y'ubururu bwijimye bafite terefone mu ntoki zabo, bambaye na ekuteri mu mu matwi.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho irembo byikorere intambwe ya kabiri mu ibara ry'ubururu, hariho na mashini icanye ifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'umweru n'andi magambo menshi yanditse mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kinini kigizwe n'ibara ry'ubururu, umweru n'umuhondo, cyanditseho impano yawe utsinde, miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, handitseho gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa n'izindi mpano.

Umuhanda w'igitaka, hirya hari ipoto rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hariho n'insinga, na none hari igiti cy'ubwoko bw'umwembe, inyuma yayo hari inzu.

Inzu nziza yubakishije amabati y'umutuku, isize irange ry'umuhondo, ifite anteni isa kake hejuru yayo, ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye n'urugi rw'umukara.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hari n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mo imbere harimo ibiti byo mu bwoko butandukanye, inyuma yacyo hari icyapa gishushanyijemo agakubo mu ibara ry'umutuku.

Umuyoborombaraga w'umuriro w'amashanyarazi uriho abagabo bane, bambaye ingofero z'ubururu, amakoti y'umukara n'amapantaro y'umukara, n'inkweto.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye n'abantu, hirya y'umuhanda hari ipoto risakaza umuriro w'amashanyarazi n'indabo n'ibyatsi ndetse n'igipangu cy'ubururu.

Ipoto rirerire rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ririho insinga nyinshi, hirya yazo hari igiti cyo mu bwoko bw'imikindo n'ibindi biti bitandukanye by'icyatsi.

Ipoto ry'amashanyarazi inyuma yayo hariho inzu ifite amabati y'umutuku imbere y'iryo poto hari igipangu kirimo imodoka y'umweru, imbere y'imodoka hari ijerekani hirya y'iyimodoka hari umuntu.

Umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya MTN, urimo abantu babiri n' umu ajenti umwe, uri gutanga serivisi yo kubitsa no kubikuriza abakiriya.

Umunara w'itumanaho uriho insinga zisakaza umuriro w'amashanyarazi, hirya y'uwo munara hari amazu menshi afite amabati y'umutuku asize irange ry'umuhondo.

Mu muhanda w'igitaka harimo abantu benshi, igitsina gabo, igitsina gore, harimo n'ikinyabiziga cya moto, harimo n'ipoto risakaza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, hateye n'ibiti bitandukanye.

Ipoto rirerire ririho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye imbere y'iryo poto hari igipangu kiri mu ibara ry'umweru.

Inzu nziza cyane ikikijwe n'ibiti by'ubwoko bitandukanye, impande yayo hari ipoto risakaza umuriro w'amashanyarazi. imbere y'iryo poto hari inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye harimo matera, ibikapu n'ibindi.

Ipoto rirerire, rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ahantu hatandukanye, hirya yaho, hari amazu afite irangi ry'umweru, n'amabati y'umutuku, n'ibiti bitandukanye, hino hari indabyo z'icyatsi n'umuhondo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye. Imodoka, na moto ihetse umugenzi wambaye ingofero z'umutuku, n'umuntu w'igitsina gabo n'igitsina gore bari gutambuka, n'ipoto rirerire rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye hariho n'itara.

Inzu nziza cyane yubakishije amabati y'umutuku, hanze yayo hari ibiti bitandukanye, harimo n'ibyo mu bwoko bw'imikindo, hanze y'igipangu hari imodoka y'umweru n'indabyo z'umuhondo n'umutuku.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka y'umweru harimo n'abagenzi. Hirya y'umuhanda hari imitaka ya sosiyete ya MTN na Airtel, hino y'umuhanda hari indabyo n'ibiti.

Mu muhanda wubakishijwe amabuye, harimo imodoka y'umweru, harimo n'umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'igitaka, ruguru y'imodoka hari ikigega, hari n'ubukarabiro bw'intoki mu buryo bwa rusange.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo akazeru gafite ibara ry'umweru n'umukara, harimo idarapo ry'igihugu rigizwe ni'icyatsi, umuhondo n'ubururu, haparitsemo imodoka y'umweru n'umutuku n'igitaka, hari n'amazu akikije uwo muhanda.

Inzu nini kandi nziza, isize irangi ry'umweru, ifite n'amabati y'umutuku, hanze hari ubusitani bwiza burimo indabyo z'umuhondo n'icyatsi, hari n'urukuta rwubakishije amabuye.

Umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye amaherena, wambaye umupira w'umweru inyuma, yambaye ishati y'umutuku.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi y'umukara, wambaye amadarubindi n'umupira w'umweru, inyuma y'umupira yambaye ishati y'umutuku.

Mu nzu harimo abantu benshi batandukanye, harimo n'umugabo uhagaze wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, karuvate y'umukara, ishati y'umweru n'amadarubindi, hirya ye hari idarapo ry'igihugu rifite amabara y'ubururu, umuhondo n'cyatsi.

Umuntu w'igitsina gabo w'umwirabura uri guseka, wambaye ishati y'umweru, mu ijosi rye afite imfatamajwi n'izindi ziri imbere ye, inyuma ye hari ibara ry'umukara n'umweru.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura, wambaye ishati irimo utuzu tw'amakakaro ndetse inyuma yambaye ishati y'umutuku ifite ibara ry'umweru imbere ndetse hagati hariho ubururu bwijimye.

Icyapa kinini cyane cy'umweru cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara, hasi yacyo hari ikindi cyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho n'idarapo ry'u Rwanda ari ryo ubururu, umuhondo n'icyatsi, cyanditseho kwibuka makumyabiri na gatanu.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye ikanzu y'umutuku irimo umweruru, n'ishati y'ubururu bwijimye na karuvati y'umukara, inyuma ye hari gusa umweru.

Mu nzu harimo abantu benshi b'igitsina gabo bambaye imyenda y'iroze, umwe yambaye isaha ku kuboko afite n'impapuro mu ntoki ze, bicaye ku ntebe zisa shokora.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye ishati y'umweru, inyuma yayo hariho ishati iri mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru kandi yambaye n'amadarubindi.

Igipangu kinini cyane gifite ibara ry'umuhondo n'umukara, hejuru hari icyapa cy'umweru cyanditseho "gereza ya Nyanza" mu ibara ry'umukara, inyuma yacyo hari ibiti byinshi.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye hanze ku ntebe z'ibiti, hari umwe w'igitsina gore uhagaze imbere yabo, hari n'undi wicaye ufite ikayi mu ntoki ze.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye bari mu nama, hari umwe wicaye imbere yabo n'undi uhagaze ufite indangururamajwi uri kubabwira.

Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe wambaye ishati y'umweru n'undi wambaye ishati y'iroze n'isaha ku kaboko, bigaragara ko bari kuramukanya, inyuma yabo hari inzu nziza n'ubusitani.

Inzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati y'ubururu, imbere hari abantu b'igitsina gabo bambaye imyenda y'irose n'undi wambaye imyenda y'impuzankano isa igitaka.

Abantu benshi bicaye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye amakanzu y'umukara, bafite imashini imbere yabo, bambaye n'udupfukamunwa, ku meza yabo hateretse n'amazi ya sosiyete y'Inyange, hari nundi mugabo wambaye ishati yu'umweru.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, abahagaze n'abicaye bambaye udutambaro tugizwe n'ibendera ry'Igihugu, harimo umuhondo, ubururu n'icyatsi. Hari n'undi mugabo wambaye imyenda y'iroze uhagaze imbere yabo.

Mu nzu nini harimo abantu benshi batandukanye harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo batatu bicaye imbere basa nk'abari mu nama bafite amazi y'inyange imbere yabo.

Abantu babiri b'igitsina gabo bambaye amakoti y'ubururu bwijimye, amashati y'umweru, n'amapantaro y'umukara, bafashe amvelope mu ntoki isa n'umutuku. Inyuma yabo hari ibyuma bicuranga byinshi.

Abantu babiri, bafite imisatsi y'umukara, umwe yambaye amadarubindi n'amaherena, imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'akabati kari imbere ye.

Hanze mu biti hari abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, abicaye n'abahagaze bitwikiriye umutaka usa umutuku, ubururu n'umuhondo, hari undi mugabo uhagaze wambaye imyenda y'iroza.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye ingofero z'umukara zirimo uturongo tw'umuhondo n'umutuku n'amakanzu y'umutuku n'umweru, bicaye ku ntebe z'ubururu n'ameza afite igitambaro cy'ubururu.

Mu nzu nini kandi nziza harimo abantu batandukanye harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza y'umukara ariho ibirahure byo kunyweramo.

Abantu b'igitsina gabo bicaye harimo umugabo wambaye amadarubindi n'ishati y'umweru n'ikote ry'ubururu bwijimye, inyuma ye hari umuntu wambaye impuzankano y'abapolisi.

Mu nzu harimo abantu babiri, igitsina gabo n'igitsina gore yambaye ishati y'umutuku n'amadarubindi, n'ingofero n'umukara, n'umuhondo n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, n'amadarubindi bari kuramukanya.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, aribyo moto ihetse umuntu, imodoka zitandukanye harimo n'iya polisi ifite ibara ry'umukara n'umweru.

Imodoka ya Polisi ndetse iriho n'ikirangantego cya Polisi, ifunguye, hahagazeho umupolisi ndetse hari n'abantu bari kugenda, hari n'imitaka ya MTN.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho urwego rw'ubugenzacyaha Nyamirambo ribu siteshoni imirongo itishyurwa, rimwe, gatandatu gatandatu toru furi gatatu, gatanu cumi na kabiri.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abantu batandukanye igitsina gore n'igitsina gabo, harimo umupolisi wambaye impuzankano y'ubururu bwijimye, hirya ya kaburimbo hari inzu nziza ndetse harimo n'ibinyabiziga byo mu bwoko butandukanye.

Inzu nini cyane kandi nziza isize amarangi y'umweru, imbere yiyo nzu hari imodoka iparitse impande yayo hari umupolisi wambaye impuzankano isa n'ubururu bwijimye.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'umweru, wambaye amadarubindi, inyuma ye hasa n'umukara.

Mu nzu hicayemo umuntu w'igitsina gore, wambaye ikanzu ya move irimo n'umweru, imbere ye afite ikayi, imbere ye na none hari insakazamajwi nyinshi cyane, zifite amabara y'ubururu ndetse n'andi.

Abantu benshi harimo igitsina gore n'igitsina gabo cyambaye imyenda ya kositimu na karuvate n'amashati y'umweru, bambaye amadarubindi, harimo n'umuntu wambaye impuzankano ya gisirikare.

Abantu benshi cyane batandukanye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imyenda y'umukara, ubururu n'umutuku, bafite amadarapo mu ntoki zabo, hariho ubururu, umutuku n'umweru, yanditseho FPR.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati irimo uturongongo tw'umweru n'ubururu, isaha ku kaboko na karuvati y'umutuku, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, hirya hari undi mugabo, hirya ye na none hari imodoka y'umukara, inyuma ye hari icyapa kinini cy'umweru n'icyatsi cyanditseho Rutsiro.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye amashati y'icyatsi n'umweru, harimo umugabo umanitse akaboko, inyuma yabo hari imodoka nyinshi zitandukanye.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imipira, ingofero bafite n'amadarapo mu ntoki zabo yanditseho FPR.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore n'abana batoya, inyuma yabo hari ibyapa biriho icyatsi, harimo n'umugabo uri guhobera abana afite ubwuzu.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, hari abicaye ku ntebe z'ubururu n'ameza ariho igitambaro cy'umweru, hari abagabo batatu bahagaze umwe imbere, hari indangururamajwi, afite n'urupapuro mu ntoki.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, wambaye ishati y'ubururu n'umweru, afite urupapuro mu ntoki agiye kurushyira mu kabati, inyuma ye hari igitambaro gifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari idarapo ry'Igihugu rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Hari n'undi mugabo uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi imbere ye.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru, karuvati y'umutuku; hirya ye hari ibendera ry'igihugu, ririmo izuba.

Abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bambaye imyenda y'umweru, umutuku n'ubururu, imbere yabo hari amadarapo rigizwe n'ibara ry'umutuku, umweru n'ubururu ryanditseho fa, pa, ra.

Abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru, hari batatu bahagaze, umwe afite insakazamajwi imbere ye n'urupapuro mu ntoki.

Inzu nini kandi nziza irimo tapi y’icyatsi, irimo abantu babiri harimo igitsina gabo n’igitsina gore bambaye amashati y’umweru, bafite urupapuro mu ntoki bagiye kurushyira mu kabati kari hasi.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore cyambaye imyenda ya kinyarwanda bita imikenyero, bamanitse akaboko, bafashe ku ibendera ry'igihugu, rigizwe n'ubururu burimo izuba, umuhondo n'icyatsi.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, imbere ye hari imashini y'umukara icanye n'imfatamajwi imbere ye.

Ibara ry'ubururu mo imbere harimo ikirangantego cyanditseho Inkotanyi, gishushanyijemo intare, izuba, hasi yabyo hari ibara ry'ubururu, hasi handikishijwe amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ari yo: demokarasi, ubumwe n'amajyambere.

Inzu eshatu nziza zigeretse inshuro nyinshi, zifite amabara atandukanye, umweru n'ubururu, hanze haratwikiriye, hari n'ibiti bitandukanye, hari n'urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari amakayi n'indangururamajwi na terefone, inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Mu nzu hicayemo abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari indangururamajwi, hateretse n'uducupa turimo amazi twa sosiyete y'Inyange.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ingofero y'umutuku, amadarubindi n'agapfukamunwa, wambaye umupira w'umweru uriho ubuso bw'ibara ry'umutuku, umweru n'ubururu bwanditseho FPR, wazamuye igipfunsi.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo akarongo k'umweru, hirya yawo hahagaze abantu batandukanye, haparitse n'imodoka zo mu bwoko butwara abagenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto ebyiri, imwe itwaye umugenzi, bambaye ingofero z'umutuku n'imodoka yo mu buryo butwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto ihetse umugenzi n'imodoka y'umweru, hejuru hicayeho umuntu ufite telefone, hirya y'iyo modoka hari umunyamaguru uri gutambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka zitandukanye, harimo imwe yo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange irimo n'abagenzi n'indi itari iy'abagenzi, hirya hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye amagare abiri, n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umutuku n'umweru yanditseho Jaguar, harimo n'abagenzi bari kugenda.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa fuso, ifite igikontineri cy'umukara, inyuma irimo abantu babiri, hirya yayo hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga, ari byo imodoka y'umweru n'ikindi kimodoka kinini gisa ibara ry'umutuku, hirya y'umuhanda hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye moto, igare n'imodoka imwe ifite igikonteneri inyuma, ruguru yayo hari iduka, imbere yaryo hahagaze abantu.

Mu mahuriro y'umuhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, aribyo imodoka y'ubururu, imodoka y'igitaka, moto ebyiri, imwe ihetse umugenzi.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye ari byo: moto zihetsa abagenzi n'imodoka y'umweru ndetse n'imodoka yo mu bwoko butwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ikinyabiziga cya moto, gifite ibara ry'umutuku. Uyitwaye yambaye ingofero y'umuhondo n'ikote ry'umuhondo, inyuma ye hari umugabo ufite igare basunika, hirya hari amazu y'ubucuruzi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye. Ari byo moto itwaye umuntu n'imodoka y'umweru ihetse ibintu ndetse n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umuhondo n'umweru n'amaduka acururizwamo.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka yo mu bwoko butwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umweru, ubururu n'umukara, harimo n'uturongo dutambitse tw'umuhondo.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto ihetse umugenzi n'indi moto ifite kontineri inyuma, uyitwaye yambaye kasike ya move.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye imodoka y'umweru, moto ebyiri imwe ihetse akabati, abantu babiri umwe yikoreye imifuka ibiri, hirya y'umuhanda hari ibiti bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abamotari babiri bambaye amajire y'umuhondo umwe ahetse umugenzi, inyuma yabo hari imodoka y'umutuku, hirya yabo hari ibiti byo mu bwoko bwi'imikindo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye moto n'imodoka yo mu bwoko butwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umweru n'icyatsi yanditseho ritiko, n'abantu bicaye ku mifuka y'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, igare, moto n'imodoka nini y'umweru ifite kontineri inyuma, hirya yawo hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka y'umukara, iya kake n'ibindi, hari n'ibiti bitandukanye by'ubwoko bw'imikindo n'ubusitani.

Imodoka ifite ibara ry'ubururu n'umweru, imbere yayo hari umuntu uri kugenda wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, hirya y'iyo modoka hari amakaziye y'umutuku n'ubururu.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, igare ririho umuntu n'ikimodoka kinini gisa umutuku n'umukara, hirya y'iyo modoka hari amazu atandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye: moto, igare n'imodoka ifite kontineri inyuma n'indi modoka y'ubururu itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'umweru yicayemo abantu, inyuma y'imodoka hari igare harimo n'abantu babiri bari gutambuka, hirya y'umuhanda hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Mu muhanda wa fuso harimo imodoka ebyiri: imwe ya fuso, n'indi y'umukara, hirya y'izo modoka hari ibiti, hasi hari ibyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo uturongo tw'umweru n'umukara harimo ibinyabiziga bitandukanye aribyo imodoka na moto zihetse abantu, hirya yayo hari amazu, harimo n'ikimodoka kinini gifite ibara ry'umweru n'umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka na moto ifite kontineri inyuma, hirya y'umuhanda hari ibiti byo mu bwoko butandukanye n'abagenzi bicaye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwaye abantu n'inyuma hari uyicayemo, mu muhanda harimo abantu bari kugenda, hirya yaho hari ibiti bitandukanye.

Imodoka nini z'umweru, zihetse imizigo myinshi, hirya y'izo modoka hari umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya Emutiyeni urimo abantu batandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto ihetse umugenzi, wambaye ingofero z'umuhondo n'imodoka n'ibara ry'umweru n'umukara, hirya y'imodoka hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zifite ibara ry'ubururu n'umweru, harimo n'abantu bari kugenda n'indi modoka y'umweru iri hirya y'uburyo batwara abagenzi na yo.

Mu muhanda wa kaburimbo, urimo umurongo munini w'umweru n'utundi turongo tw'umweru n'umukara, urimo moto, uyitwaye yambaye ingofero y'umutuku n'indi y'ubururu mu kaboko n'ishati y'umuhondo, inyuma yayo hari inzu zitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka nini isa umutuku n'umukara, muri uwo muhanda harimo n'umuntu w'igitsina gore, uri kugenda hirya y'umuhanda naone hari ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini y'umweru, mo mu imbere harimo inka z'umweru n'umukara. Hirya y'iyo modoka hari ibiti byo mu bwoko butandukanye byinshi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, ari byo imodoka y'umweru na moto, hirya y'umuhanda hari imodoka nini zirimo ibara ry'ubururu n'icyatsi n'umweru.

Mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, aribyo moto ebyiri zitwaye abagenzi n'imodoka, harimo n'abantu babiri bahagaze, ruguru y'umuhanda hari imodoka ifite ibara ry'umweru n'ubururu yo mu bwoko butwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye ari byo moto, imodoka, igare rihetse umugenzi ndetse n'umuntu uhagaze ufite indobo irimo ibisheke, hirya yaho hari ibiti bitandukanye.

Imodoka ebyiri ziririmo ubwoko butwara abagenzi imwe ifite icyapa cyanditseho sitera imbere yayo hari abantu bari kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo abantu batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, harimo n'imodoka itwara abagenzi, ifite ibara ry'umweru, n'uturongo tw'icyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo haparitsemo moto ifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, harimo intebe y'ubururu n'umweru n'igare, hirya hari umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya MTN, hari n'umuntu w'igitsina gabo ufite amvelope mu ntoki uri kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umurongo munini w'umweru n'utundi turongo tw'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umuntu wambaye ingofero y'umutuku n'ijire y'umuhondo n'ubururu, hirya haparitse indi moto, hari n'amazu atandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo w'umweru, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto ihetse umugenzi, wambaye ingofero z'umutuku n'indi moto ifite igikontineri inyuma, hirya yabo hari inzu iparitsemo imodoka ifite n'ibyapa bitandukanye.

Inzu nini cyane kandi nziza iriho icyapa kinini cy'umuhondo, hanze hicaye abantu b'igitsina gore babiri, harimo umwirabura n'umuzungu bafite imashini imbere yabo bari kuganira.

Inzu nziza bakoreramo ubucuruzi bw'imitako ya kinyarwanda ndetse n'ibindi, hanze hicaye abantu babiri ndetse iyo mitako iri hanze.

Mu muhanda wubakishijwe amabuye yo mu bwoko bw'amapave, harimo abantu benshi ab'igitsina gabo n'igitsina gore, impande y'uwo muhanda hakikijwe n'amazu meza ageretse.

Ikibuga bakiniraho umukino wa basikete hagati harimo icyizeru cy'umweru kigabanyijemo kabiri, kiri mu ibara ry'umutuku, hirya hari ibiti n'amazu.

Ubuso bw'umukara mu imbere harimo ibara ry'umweru, harimo imodoka ifite ibara ry'umukara n'umweru, hasi handitse basi sitopu mu ibara ry'umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo dutambitse tw'umweru n'utundi dutambitse tw'umukara n'umweru, hirya hari inzu iriho ibiti, hino hari icyapa cy'ubuso bw'umutuku mu imbere harimo umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo moto ebyiri ziri kugenda, hirya y'uwo muhanda hari icyapa kirimo ubuso bw'umutuku, imbere hashushanyijeho umuntu n'uturongo tw'umweru n'umukara n'amazu meza.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo munini w'umweru n'utundi turongo tw'umweru n'umukara, harimo umuntu w'igitsina gabo uri kugenda, hirya y'umuhanda hari icyapa kinini cy'umutuku, kirimo umweru cyanditseho mirongo itandatu. Na none hari inzu y'umuhondo y'ubucuruzi.

Inzu isize irangi ry'umweru n'umutuku hariho icyapa cy'ubururu, cyanditseho Irembo n'ikindi cyapa cy'umutuku, hirya y'iyo nzu hariho ubuso burimo ibara ry'umutuku, mo imbere harimo umweru, hasi hashushanyijeho umuntu.

Ubuso bw'umweru burimo uturongo tubiri, ak'umweru n'ubururu mo imbere harimo ibara ry'ubururu rinini, handitsemo pa mu ibara ry'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umurongo w'umuhondo n'undi murongo muremure w'umweru, hirya y'umuhanda, hari ibyatsi n'ibiti bitandukanye n'icyapa kirimo ubuso bw'umutuku mo mo imbere harimo umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo uturongo ducagaguye tw'umweru n'utundi turi ku mpande tw'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka n'abagenzi bari kugenda, harimo n'ibiti byinshi byo mu bwoko bw'imikindo ndetse n'ubusitani.

Amazu menshi cyane yubatse mu buryo butemewe, Hirya yayo hari ibiti bitandukanye n'ibyatsi, hino hari ipoto ry'amashanyarazi rikwirakwiza umuriro ahantu hatandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka, hirya y'umuhanda hari inzu nziza igeretse, hari n'imodoka ziparitse, hari n'imitaka ya sosiyete ya Emutiyeni isa umuhondo n'umuntu uhagaze mu mutaka.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo w'umweru n'utundi turongo tw'umweru n'umukara, harimo abamotari bambaye ingofero z'umuhondo n'ijire z'umuhondo n'ubururu, hirya haparitse imodoka nyinshi z'umweru, hari n'inzu nini nziza cyane isize irange ry'icyatsi, iriho ibyapa byinshi bitandukanye.

Inzu nini nziza cyane n'indi ntoya ifite ibara ry'icyatsi n'icyapa cy'umukara n'umweru, hanze haparitse imodoka ebyiri, imwe y'umutuku bwijimye n'indi y'igitaka.

Icyapa kinini cy'umweru, kiriho akazeru karimo isaka n'agaseke kariho n'ibendera ry'igihugu, rigizwe n'ubururu burimo izuba, umuhondo n'icyatsi, harimo amagambo manini yandikishije ibara ry'umukara.

Mu muhanda hari imodoka isa ubururu bwijimye iri kugenda, hirya yayo hari igipangu cy'umukara, hino y'aho hari icyapa cya sosiyete ya eyateri cy'umutuku ndetse hari n'igipangu cyubakishije amatafari.

Inzu nini cyane kandi nziza isize amarange y'umweru, ifite ibirahure bya fime, yubakishije igipangu cy'amatafari ahiye, hanze hateretse ibikapu, handitse Kanombe Kajagari kabiri.

Inzu nziza cyane igeretse ifite amabati y'umukara isize amarange y'umweru, ifite inzugi z'umukara, yubakishije amatafari ahiye, ifite n'ibipangu bifite ibara ry'umukara.

Mu muhanda w'igitaka, hirya y'umuhanda hari amazu menshi kandi meza ndetse n'ibiti bitandukanye, hari n'ipangu gisa icyatsi n'indabyo zisa umuhondo n'icyatsi.

Inzu nini nziza cyane isize irangi ry'umuhondo n'umukara, hanze hateretse amavase arimo indabo, hari icyapa cyanditse siteyi apatimenti, gifite n'igipangu kinini cyubakishije ibiti.

Inzu nziza nini, isize amarangi y'umweru, hanze yayo hari amavaze arimo indabo hateye n'ibiti byo mu bwoko butandukanye, hanze nanone haparitse imodoka z'umweru.

Urukuta rwubakishije amabuye, rushizezemo icyuma gifite ibara ry'umweru n'umutuku, hirya yaho hari umuntu wambaye ingofero y'umukara n'ijire y'icyatsi, hirya ye hari ibigega bibiri hari mo icy'icyatsi n'umukara handitseho Nyandungu intaparike.

Mu muhanda w'igitaka haparitsemo imodoka zitandukanye, iy'umweru, igitaka n'umukara, hanze yayo hari abantu b'igitsina gore bitwikiriye umutaka.

Inzu nini, nziza cyane yubakishije amabati y'umutuku, ifite ibara ry'umweru, hubatse igipangu cyubakishije amatafari ahiye, haparitse imodoka ebyiri zitandukanye.

Amazu menshi kandi meza ari mu bwoko bwa kadasiteri afite amabati y'umutuku, hirya yayo hari n'ibyatsi n'ibiti byo mu bwoko butandukanye, hari n'umuhanda w'igitaka.

Mu muhanda wubakishijwe amabuye harimo abantu batandukanye harimo igitsina gabo n'igitsina gore harimo na moto itwawe n'umuntu wambaye ingofero y'umutuku n'ikote ry'umukara mu mpande z'umuhanda harimo amazu y'ubucuruzi afite ibicuruzwa bitandukanye handitsemo akajagari rimwe.

Mu muhanda harimo abantu batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, bari kujya ahantu hatandukanye, impande y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi, iyo bacururizamo imiti yanditseho farumasi n'akazu k'umuhondo ka sosiyete ya MTN, gahagazeho umuntu uri kwaka serivisi yo kubitsa no kubikura.

Inzu nziza igeretse, ifite icyapa kinini cyanditseho a na a resitora, hanze hari imodoka ebyiri zitandukanye n'ibyatsi, handitse Kanombe eya poti.

Amazu menshi cyane kandi meza harimo ayo mu bwoko bwa kadasiteri, afite amabati y'umutuku n'andi ageretse, akikijwe n'ibiti byo mu bwoko butandukanye n'ibyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo, hirya yaho hari imodoka isa igitaka iparitse, haruguru hari amaduka meza y'ubucuruzi, acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, imyenda y'abagabo, ibikapu, n'amasakoshi.

Inzu nini kandi nziza cyane igeretse, ifite igipangu cy'umukara yubakishije amapave, hanze yayo hari ibiti by'imikindo n'ibyatsi.

Mu muhanda w'igitaka harimo amazu menshi kandi meza ageretse harimo abantu bari kugenda ndetse n'imodoka, hirya y'iyo modoka hari ibiti bitandukanye ndetse n'indabyo.

Mu muhanda w'igitaka na kaburimbo harimo moto umutuku, uyitwaye wambaye ingofero y'umutuku n'ikoti ry'umuhondo n'ubururu hirya yayo hari amazu meza afite n'ibipangu.

Umuhanda wubakishijwe amabuye urimo abantu batandukanye igitsina gabo n'igitsina gore, harimo na moto ziriho abantu bambaye ingofero y'umutuku n'ikote ry'umukara, impande y'umuhanda hari amaduka bacururizamo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka zicanye amatara maremare n'amazu ari kwaka biragaragara ko ari nijoro.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'ibimodoka binini bifite ibara ry'icyatsi n'ubururu, na none hirya y'umuhanda hari icyapa cy'ubururu kiriho akazeru kirimo agafuleshi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka na moto, hirya y'umuhanda hari ibiti bitandukanye, byo mu bwoko bw'imikindo.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umurongo munini w'umweru n'indi mirongo y'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka, hagati y'uwo muhanda hari ubusitani burimo ibiti byo mu bwoko bw'imikindo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo duhagaze tw'umuhondo n'utundi duhagaze tw'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, ariyo ipikipiki zitandukanye zifite amabara y'umuhondo n'umutuku, hirya y'umuhanda hari n'ibiti byo mu bwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'utundi tw'umweru n'umukara n'umuhondo, hari n'ibinyabiziga bitandukanye ari byo moto, igare n'imodoka.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo minini y'umweru n'indi mito y'umuhondo n'indi y'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka, hariho n'amapoto ariho amatara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, hagati y'iyo mihanda harimo ubusitani buteyeho ibiti n'ibyatsi, harimo n'icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu n'umweru, gishushanyijeho umwana uri kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo, uhuriramo imodoka zigiye zitandukanye, harimo abantu batandukanye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, impande y'uwo muhanda hari inzu nziza zifite amabati y'umutuku, hateye n'ibiti byo mu bwoko butandukanye, n'ibyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo minini y'umweru n'umukara, harimo n'ubuso bw'umukara buririmo uturongo tw'umuhondo, harimo n'ibinyabiziga bitandukanye moto n'imodoka, n'amatara ari kwaka, n'akazu kanditseho mirongo itatu na kane.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo ibiri ihagaze isa nk'ibara ry'umuhondo, harimo n'akandi kazeru gasize ibara ry'umweru n'umukara, hagati hateyemo igiti n'ibyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo duhagaze tw'umweru n'umukara n'indi mirongo minini y'umweru n'umukara, bigaragara ko ari aho abanyamaguru bambukira, hirya hari itara riri kwaka icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo dutambitse tw'umweru aho abanyamaguru bambukira, muri uwo muhanda harimo n'imodoka nyinshi zitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka na moto, harimo imodoka y'umweru n'indi nini y'ubururu, mu muhanda harimo n'uturongo tw'umweru n'umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo muremure w'umweru n'indi mirongo y'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye moto zihetse abagenzi n'imodoka nini zifite ibikontineri inyuma.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo dutambitse tw'umweru, abantu bari gutambuka, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto itwaye umugenzi n'imodoka zitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cya moto, uyitwaye yambaye ingofero y'umutuku harimo n'umuntu uri gutambuka mu muhanda wambaye imyenda y'umukara inyuma ye hari n'umunyeshuri wambaye impuzankano.

Mu muhanda w'igitaka harimo moto ifite kontineri inyuma y'ubururu, hirya y'umuhanda hari amazu menshi ndetse n'ibiti n'ibyatsi, hari n'ipoto rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye imodoka y'umutuku na moto, hirya y'umuhanda hari icyapa cy'ubururu gifite agafureshe karimo umuhondo, hirya y'umuhanda na none hari ibiti biri mu bwoko butandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imirongo ibiri y'u umwe n'utundi turongo tw'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka, hirya yawo hari umuhanda w'abanyamaguru, bubakishije amabuye yo mu bwoko bw'amapave.